Inzu igaragara ko igurishwa, iherereye i Kigali, Kanombe; ku mafaranga miriyoni mirongo inani n'eshanu. Ifite ubuso bwa metero kare magana atatu mirongo ine.